Imodoka rusange zimwe mu modoka zikoreshwa na buri muntu uwo ariwe wese mu ngendo za buri munsi zikaba zorohereza abaturage mu ngendo zabo bava ahantu hamwe bagana ahandi.

Ibikorwa remezo nka amashanyarazi nikimwe mubyo leta yibandaho yegereza abaturage hafi, kugira bibafashe gukomeza imibereho yabo yaburi munsi batabangamiwe ndetse nogukomeza gukora akazi gasaba amashanyarazi.

Ku kigo nderabuzima, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku baturage. Hari inyubako nyishyi ndetse n'ibyapa biri hose, kugira ngo biyobore abarwayi, bitewe na serivisi bashaka guhabwa.

Abacamanza bamwe mu bantu barwanya ibyaha hifashishijwe amategeko bakaba banarenganura abarenganyijwe uburyo bakoresha hifashishijwe amategeko.

Kizimyamwoto kimwe mu gikoresho kifashishwa mu guhangana n'inkongi y'umuriro, akaba ari igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe runaka.

Imihanda, kimwe mubikorwa remezo byifashishwa nimbaga nyamwinshi mungendo zabo za buri munsi, ikaba ari bimwe mubyoroshya ingendo zokuva ahantu ugera ahandi.

Imodoka rusange zikoreshwa n'abanyamaguru mu ngendo zabo za buri munsi mu kuborohereza kugera mu byerekezo bitandukanye bifuza kugeraho byashyizweho kugira ngo zorohereze buri umwe wese mu ngendo ze za buri munsi.

Ibyapa bimwe mu biranga, bikerekana cyangwa bikamenyesha ikintu runaka bikaba bishyirwa ahantu kugira ngo birange ahantu ikintu cyangwa bibwirize bimwe mu bikoreshwa aho kugira ngo umutekano wo mu muhanda ubungabungwe.

Icyapa ikimenyetso kigaragaza kikaranga n'ahantu runaka bishyirwa mu muhanda mu uburyo bwo kwifashishwa kugira ngo umutekano ukomeze ubungabungwe neza uko bikwiye.

Imihanda kimwe mu bikorwaremezo bikoreshwa na buri umwe wese harimo abanyamaguru, ibinyabiziga bikoresha moteri ndetse n'ibitazifite, bikaba ari bimwe mu bikorwaremezo bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo byoroshye ingendo.

Imihanda ibikorwaremezo bikoreshwa na buri wese yaba umunyamaguru, ikinyabiziga cyangwa se amagare. Bimwe mu byoroshya ingendo za buri munsi abantu dukora kugira ngo tubashe kugera ahantu runaka.

Imihanda ibikorwaremezo bikoreshwa kugirango horoshywe ingendo z'abanyamaguru ibinyabiziga uva ahantu ugana ahandi mu buryo bworoshye.